Umuntu ari mu gihingwa arimo gutera umuti akenshi uyu aba ari umuti utuma igihingwa kimera neza aho wica udusimba tuba twagiye ku gihingwa ugatuma n'ibibabi by'igihingwa bimera neza.

Umuntu uri mu murima w'umuceri, afite igikoresho mu mugongo kiri kuvamo umuti, akenshi uyu muti bawukoresha kugira utume igihingwa cy'umuceri kimera neza kandi wirukane n'ubusimba buba buir kwangiza ibibabi by'umuceri.

Imiti igiye itandukanye, hari iri mu ducupa, mu dushashi ndetse no mu ndobo, iyi miti ishinzwe kujya ku bihingwa cyangwa kuvura ibihingwa, aho ivura nk'ibibabi cyangwa igashyira imiti ku bibabi kugira ngo igabanye ubutsimba bujya ku bibabi cyangwa n'ibindi bibazo bitandukanye ihingwa bihura nabyo.

Umugabo wambaye impuzankano kandi wipfutse ahantu hose yaba ku munwa, mu maso no mu ntoki. Arimo gutera umuti igihingwa kugira ngo kibashe kugira ubuzima bwiza, aho bituma uno muti ufasha kurwanya udusimba twangiza ibibabi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ibibazo bihura n'ibihingwa.

Umugabo uri mu bihingwa. Ni ibinga bkiri bito kandi bitarakura, afite ipombo, ikunda kuba irimo umuti, agiye gutera umuti ibibabi cyangwa iyi myaka kugira ngo birinde indwara zitandukanye ndetse n'udusimba turya, ibibabi by'imyaka itarakura.

Umuntu wambaye impuzankano kandi wambaye agapfukamunwa, arimo gutera umuti ku ndabyo kugira ngo zibashe kugira ibibi byiza ndetse bikureho n'udusimba twangiza indabyo, akenshi bikunze gukorwa kugira ngo umusaruro ugaragare neza kandi mu byo biteze ku musaruro bivemo n'ubuhinzi by'indabyo, aho bazigurisha zikajya gukoreshwa ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umuntu uhetse igikoresho, iki gikoresho bakunda kugishyiramo umuti kugira ngo bawutere ibihingwa, afite igikoresho akenshi abantu bakunda kukita ipombo, aho gikoreshwa mu gutera umuti imyaka, agiye gutera umuti igihingwa k'inyanya kugira ngo inyanya zirusheho kumera neza.

Abantu bari mu kazi ko kuroba amafi, umwe ari mu mazi abandi bari ku nkengero z'amazi, barimo kuroba bakoresheje ibintu bimeze nka supanete cyangwa inshundura, aho bayishyira mu mazi bakazamaramo amafi.

Abantu bari mu gikorwa cyo kuroba amafi. Aho bashyira inshundura mu mazi, maze bagakuramo amafi. Akenshi bikunda gukorerwa ahantu hari amazi nko mu kiyaga, mu bishanga birimo amazi ndetse no mu ruzi.

Ibihingwa bifatwa nk'ibihingwa ngandurabukungu, akenshi bikoreshwa no mu bucuruzi Mpuzamahanga u Rwanda rwibanzeho mu gucuruza. Ibyo bicuruzwa cyangwa ibi ibihingwa harimo: ikawa, ibisheke, icyayi ndetse n'ibindi.

Umuntu uri hagati mu murima, ari mu murima uhinzemo igihingwa k'icyayi kandi uyu muntu ni umudamu arimo kugisarura, afite igikoresho ari gushyiramo umusaruro kugira ngo utivanga cyangwa ukaba wajya mu murima.

Ahantu h'ubuso bunini cyane hari igihingwa k'icyayi, ni igihingwa kikiri gito kandi kitarasarurwa, hepfo y'aho hari ishyamba kandi hari n'inzu yegereye ibibi bihingwa uko ari bibiri, harimo icyayi ndetse n'ishyamba, hakurya hari imisozi kandi hari na nyiraturi nyinshi.

Umuntu ufite ikawa mu ntoki izindi ziri hasi. Ni ikawa zasaruwe ariko harimo izeze, iziteze ndetse n'izapfuye izeze zirasa umutuku, iziteze zirasa icyatsi noneho izapfuye zikaba zisa umukara.

Abantu barimo kugenda ku murongo, harimo abadamu n'abagabo kandi barikoreye, bikoreye umusaruro w'icyayi. Akenshi umusaruro w'icyayi niho basarura ibibabi, kandi inyuma yaho cyangwa inzira barimo, hari igihingwa cy'icyayi ku buso bunini.

Igihingwa cy'ikawa n'ikawa n'igihingwa gifatwa nka kimwe mu bihingwa ngandurabukungu akenshi iyo u Rwanda rukunda gukoresha cyane mu bucuruzi mpuzamahanga. Igiti k'ikawa kirimo ikawa zigiye kwera iziteze ndetse izitarera zirasa icyatsi izigiye kwera zirasa umuhondo noneho izindi zirasa umutuku.

Ahantu hanini cyane kandi harimo igihingwa k'icyayi, ni kimwe mu gihingwa cyongera ubukungu bw'Igihugu kandi kigacuruzwa no hanze y'Igihugu, abantu barimo bafite ibintu mu mugongo barimo gusarura icyayi bashyira mu mugongo kugira ngo umusaruro w'icyayi utangirika.

Umugabo afashe ku gihingwa cy'ikawa. Harimo ikawa zeze n'iziteze. Ikawa yeze iba isa umutuku iteze ikaba isa icyatsi. Ni ikawa zifashishwa mu bucuruzi ngandurarugo aho zijyanwa hanze zikajya gutunganywa zikavamo ikawa n'ubundi yo kunywa cyangwa n'ibindi bi bitandukanye.

Umusaruro w'ikawa uri mu ntebo, ni ikawa z'umutuku, kimwe mu bigaragaza ikawa zeze, zasaruwe ziri mu gatebo, aho ziba zisigaje kugurishwa kugira ngo zizajye gutunganywa.

Igihingwa k'ikawa kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro ndetse bikanagurishwa hanze y'Igihugu. Ni igihingwa kiriho ikawa zeze n'iziteze. Izeze zirasa umutuku, iziteze zirasa icyatsi.

Umugabo uri mu gihingwa k'icyayi yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ingofero' ntago ari kugisarura ariko ari imbere y'igihingwa k'icyayi, nka kimwe mu gihingwa kizamura ubukungu bw'u Rwanda kandi kigacuruzwa hanze y'Igihugu.

Iyi inzu irimo ibicuruzwa by'imiti y'amatungo, ni inzu icuruza imiti y'amatungo harimo inka, ihene, inkoko ndetse n'andi matungo atandukanye hari imiti iri mu ikarito n'indi iri mu kantu kameze nk'indobo.

Imiti iri mu kakarito. Mu makarito atandukanye, harimo amakarito asa umutuku ndetse n'uburu, harimo imiti y'amatungo; inka, ingurube ndetse n'andi matungo yose akenera imiti.

Imiti y'amatungo yo mu bwoko butandukanye, ari mu ducupa tw'ubururu tw'umweru ndetse n'utundi turimo amabara y'umutuku. Iyi miti ikoreshwa ivura amatungo, inka, ngurube ndetse n'ayandi. Aho usanga inka ziba zarwaye indwara zitandukanye, harimo nk'inzoka cyangwa bagira ngo bayongerere ubukure cyangwa ikure neza.

Igihingwa kiri ahantu mu kibaya ni igihingwa kitwa ikigori, aho ibigori bigeze mu cyiciro kiza ariko bikaba bitarera. Hakurya yaho hari umusozi urimo ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'amazu.

Umuntu woroye inka, ari munsi yayo arimo kuyikama, ari kuyikamira mu kiraro, ni inka isa nk'iyororerwa mu nzu aho bayahirira ubwatsi bakayisangisha aho iri ikaburya itagombye kujya kurisha hanze, ni inka nini kandi y'inzungu umuntu arimo kuyikama.

Abantu basanzwe ndetse n'abashinzwe umutekano, bari mu gikorwa cyo gutera igihingwa. Abashinzwe umutekano, harimo abasirikare ndetse n'umupolisi. Inyuma yaho gato hari abandi bantu basanzwe badashinzwe umutekano.

Umuhinzi wambaye imyenda y'ubururu ari mu gihingwa cy'ikigori, ni ibigori bigezi mu gihe cyiza ariko bitarera, aho biri ahantu hameze nko mu kibaya, inyuma yaho hari imisozi irimo amashyamba.

Umuntu uri ahantu mu gishanga. Ni ahantu hahingwa umuceri. Hari umuceri mwinshi kandi yunamye kuwitaho cyangwa ari kuwubagara. Ni umuceri ukiri muto nturageza igihe cyo kwera ahubwo umaze igihe gitoya utewe. Umuntu urimo rero arimo kuwubagara.

Umugore uri gucuruza ibirayi

Umudamu ufite umuhoro arimo gutema ibigori. Ni ibigori byumye aho bigaragara nk'ibyasaruwe maze ibiti byabyo bigasigara mu murima. Umudamu rero arimo kubitema kugira ngo abikuremo.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara, ikora ry'umuhondo n'ijipo y'umutuku n'umukara. Ari imbere y'igihingwa kitwa ikigori cyangwa ibigori byinshi. Ni ibigori bitarera ariko bibura igihe gito ngo byere.

Ubworozi bw'inka, umuntu uzishinzwe ari imbere yazo inka zo ziri mu kiraro kandi ni ikiraro cyubatse neza aho zirira n'aho ziryama bitandukanye bityo bizirinda kuryama ahantu hatari umwanda, ni inka zororwa mu rugo ntabwo zijyanwa kuragirwa, barazahirira bakazizanira ubwatsi hano buri noneho inka zikarisha.

Umugabo uri mu murima w'umuceri, ni hantu hahingwa umuceri aho arimo kuwitaho, harimo umuceri urimo ibyatsi byinshi ndetse n'umuceri yakuyemo ibyatsi umeze neza, bishatse kuvuga ko arimo kubagara umuceri.

Igihingwa cy'ikigori, n'ibigori bitarakura neza ku buryo byakwera. Nyuma yaho kandi hari n'ibihingwa cy'ibitoki aricyo kivamo imitobe cyangwa ibindi bintu byo kurya bitandukanye nk'imineke yo kurya cyangwa igitoki cyo kurya. ibigori kandi bitangiye gukuramo gake ku buryo haba hoburaho igihe gitoya ngo bibe byatanga umusaruro.

Igihingwa cy'igisheke ni igisheke ariko kitarera neza, kiri mu murima w'abaturage, aho mu murima harimo ibindi bihingwa bigiye bitandukanye nk'insina cyangwa ibindi bimera bitoya, akenshi ibisheke bikunda guhingwa ahantu mu gishanga ariko iki ngiki kiri i gasozi, aho gishobora kuvamo isukari cyangwa bakakinywamo umutobe.

Ahantu hitaruye kandi hitegeye. Imbere yaho hari umuhanda, hakurya gato hakaba harimo igihingwa. Ni ahantu hanini cyane harimo igihingwa, igihingwa kijya kumera nk'ibishyimbo. Mo hagati harimo ipironi cyangwa ipoto itanga umuriro.

Igihingwa cy'urutoki. Ni urutoki ruri ahantu hanini, umuntu yahinze rwose nk'umushinga. Aho urutoki nk'uru ruvamo ibitoki byo kuribwa, ibindi bakaba babyengamo umutobe, hakavamo inzoga cyangwa bakanywa umutobe wonyine.

Igihingwa cy'insina. Ni insina zegereye urugo ndetse hakaba harimo n'ibindi bimera bitandukanye. Akenshi insina zitanga umusaruro w'ibitoki, aho haba harimo izengwa zikavamo umutobe cyangwa ibivamo imineke gusa cyangwa ibindi bakabiteka bakabirya.

Ahantu hameze nko mu gishanga hari ikibaya, harimo igihingwa cy'umuceri, igice kimwe warasaruwe ikindi ntabwo urasarurwa, ariko umeze na wo nk'uweze ku buryo wasarurwa, hakurya y'aho hari ibiti byinshi bimeze nk'ishyamba.

Ahantu hitaruye kandi hari umusozi ariko utari muremure cyane n'ikibaya, harimo ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'ibihingwa, hari urutoki ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, harimo inka kandi irimo kurisha.

Igihingwa kitwa igisheke, akenshi ibisheke bikunda kwera ahantu mu gishanga cyangwa ahantu haboneka amazi kugira ngo bikure neza ariko icyo gihingwa k'igiceke kegereye inzu bivuze ko kiri i gasozi, ni igihingwa kiba kimeze nk'urubingo aho kivamo isukari cyangwa abantu bakakinywamo umutobe.

Igihingwa cy'imyumbati, kiri ahantu hitaruye, nta bindi bihingwa by'imyumbati byegeranye, kandi hari n'ibiti by'ibigori byumye byaguye imbere, ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye biri ku ruhande, igihingwa cy'imyumbati aricyo kivamo ubugari.

Ibihingwa bitandukanye biri ahantutu hegeranye, harimo igihingwa cy'imyumbati, ibigori ndetse n'urutoki. Ni ukuvuga ngo, imyumbati iri ruhande rumwe hagacamo inzira, noneho akandi gace kaba karimo ibigori ndetse n'ibitoki. Harimo n'ibindi bimera byo ku ruhande bitari ibihingwa.

Umugabo uri mu murima w'imiceri, afite isuka ndetse n'ikindi gikoresho afite mu kaboko k'ibumoso. Ari ahantu hakunda kwera umuceri kandi mu gishanga. Uyu muceri ukunda kwera ahantu haba harimo amazi. Inyuma gato hari ibiguruka bisa n'umukara, hakurya hari ahantu hari umuhinzi uri mu imyaka ikiri mitoya. Inyuma yaho gato hari indi myaka mikuru imeze nk'ibigori.

Ahantu hameze nko mu gishanga, ahantu haringaniye kandi harimo igihingwa cy'umuceri. Ni ahantu hari ubuso bunini aho igihingwa cy'umuceri gikunda gukurira, cyane cyane umuceri ukunda gukurira ahantu mu mazi. Ni umuceri utari wera ariko nanone utakiri muto cyane. Hakurya gatoya hari ibirinda umuceri cyangwa bituma inyoni zitajya kurya umuceri.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye kandi birebire. Ni ishyamba rinini akenshi mwene aya mashyamba akunze kuboneka nko muri Nyungwe, cyangwa Gishwati niho hakunda kuboneka amashyamba manini, kandi arimo ibiti bigiye bitandukanye kandi birebire.

Ahantu hari ibimera byinshi bitandukanye kandi byakuze birebire, wabyita nk'ishyamba, nta bantu bahatuye ni ibyatsi gusa ndetse n'ibiti binini, ahandi hari ikirere kiza, bisa nk'ahantu hari ishyamba rinini cyane.

Ahantu hari ibimera byinshi. Ni ishyamba ryegeranye cyane. Kandi imbere yaho gato hari inzu isakaje amabati y'umutuku. Iri shyamba riri uruhande rumwe ,ahandi nta shyamba rihari.

Ishyamba ririmo ibiti byegeranye cyane kandi mo imbere harimo akazu gatoya, ku ruhande rwaho hariho umugezi wamazi menshi mu ishyamba, riri ahantu hehegereye amazi, ahantu umuntu yasura kandi hameze neza, harimo akanzu gatoya kameze nk'akabamo abantu cyangwa umuntu aruhukiramo yaje kuhasura.

Ibihingwa by'ibigori, ni ibihingwa biri ahantu mu kibaya, biracyari bitoya ntabwo biraganya kwera, hakurya yaho hari umusozi utuyeho abantu kandi hakabayo n'ibindi bimera bigiye bitandukanye.

Ahantu hitaruwe harimo imisozi myinshi hakaba hagizwe n'ishyamba gusa, ni ishyamba riri ku buso bwinshi, warifata nka rimwe mu mashyamba manini mu Rwanda, nka Nyungwe cyangwa Gishwati.

Umuhanda wa kaburimbo. Ni muhanda urimo ikinyabiziga kimwe ndetse n'amatara ku ruhande ariko umuhanda impande zaho iburyo n'ibumoso hari ishyamba ririmo ibiti birebire. Imodoka iri mu muhanda ni imwe yonyine, nta kindi kinyabiziga kirimo.

Inyanya zeze, harimo inzima n'izindi zapfuye zisa nk'izaboze, aha ni igiye inyanya zera noneho ntizikoreshwe bikarangira zipfuye kandi izi nyanya ni kimwe mu bihingwa by'imboga.

Abantu bari mu murima w'amatunda, barimo kuyatunganya bayayobora ku migozi bashyize hejuru kugira amatunda abashe gukura neza, inyuma y'aho kandi hari ishyamba rinini ndetse n'imisozi miremire iri inyuma yabo.

Igihingwa cyitwa inanasi, inanasi iri ahantu zahinzwe ari nyinshi, inanasi uyifata nk'igihingwa cy'imbuto kandi ikaba ivamo ibintu bitandukanye, ushobora kuba wayirya uyihekenye cyangwa ukayikuramo nk'umutobe.

Umusaruro w'inyanya, kimwe mu gihingwa kiri mu cyiciro cy'igihingwa cy'imboga. Abantu begereye umusaruro bawushyize mu ntebo. Aho baba bagiye kuwugurisha. Ni inyanya zeze neza kandi iyo zeze ziba zisa umutuku. Hari umugabo n'umugore barimo kuzikoramo.

Abantu bari mu murima uhinzemo amatunda ni bantu babiri, ahantu hari igihingwa cy'amatunda, aho bacyubakiye neza kugira ngo amatunda ajye agenda ayizingiraho akomeza kuba maremare kandi hariho imbuto z'amatunda zitarera.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye by'imboga harimo intoryi pavuro, inyanya, ndetse akenshi biba ari isoko ryihariye riba ririmo ibiribwa ariko byibanda cyane ku mboga.

Indabyo zifite amabara atandukanye. Harimo zisa umutuku n'icyatsi, izisa'umweru n'icyatsi ndetse no hepfo gato hakaba ari izindi zifite amabara y'umuhondo. Akenshi zikorwa nk'umushinga cyangwa igikorwa ngandurabukungu, aho umuntu akora ubuhinzi bw'indabo kugira ngo azigurishe zigende zikoreshwa mu buryo bugiye butandukanye.

Igihingwa cyitwa ubutunguru, n'ubutunguru bumeze nk'ugiye kwera, hari umuntu wafashe ku rutunguru rumwe, agiye kuburandura. Harimo akaboko gusa niko kagaragara, agiye kurandura. Akenshi ibitunguru bubarirwa mu cyiciro cy'ubuhinzi bw'imboga.

Umuntu uri kuvomerera imyaka, ari kuvomerera akoresheje uburyo bugezweho cyangwa uburyo butari ubw'Abanyarwanda, aho afata itiyo akayayijyana ahantu hari isoko y'amazi noneho, agakoresha moteri, iyakogota, ikayazana, ikayageza aho umurima uri, agakoresha avomerera, atagombye kujya kuyizanira.

Abantu bari mu murima barimo kuvomerera. Ni ibihingwa bikiri bitoya kandi bahinze ku murongo harimo ibihingwa bimeze nk'ibigori, ibindi bimeze nk'amashu. Abantu babikoramo bambaye imyenda y'igisubeti ndetse na bote, izo bote zirasa umukara n'igisurubeti cyirasa ubururu barimo kuvomerera.

Ibihingwa by'ibigori. Ibihingwa by'ibigori, byatangiye guheka aho biba biri hafi kwera. Hejuru yaho hari amatiyo yifashishwa mu kubivomerera, kugira ngo birusheho, gukura neza no kongera umusaruro.

Ibihingwa bitandukanye birimo kuvomererwa, harimo kuvomererwa mu buryo bugezweho, aho harimo amatiyo arimo kurekura amazi menshi cyane azenguruka mu murima nta muntu urimo kuyakoresha.

Ahantu hari ibihingwa n'ibihingwa bahinze ndetse bategura n'uburyo bazajya babivomereramo, harimo amatiyo agenda ajya mu mirima mo imbere menshi atambikamo, aho bafungurira mo amazi akagenda ajya mu myaka ayivomerera, ni uburyo bugezweho kandi bwiza butuma umuntu atajya mu myaka akandagiramo ngo agiye kuyivomerera.

Igihingwa giteye neza kandi giteye ku murongo. Ntikirimo kuvomererwa mu buryo bwa kijyambere cyangwa ku buryo bugezweho, aho bashyira amatiyo mu mirima bakayafungura amazi akagenda avomerera imyaka. Ibi ngibi bituma umuhinzi atagenda mu bihingwa cyane kugira ngo atabyangiza ahubwo akavomerera atagombye kujya mu murima.

Umudamu urimo kuvomerera, arimo kuvomere ibihingwa bikiri bitoya, birasa n'ibihinbwa by'ubutunguru cyangwa ibindi, inyuma y'aho kandi hari abandi bantu barimo kugenda cyangwa bari gukora indi mirimo itandukanye, ari kuvomerera akoreshejwe ibikoresho bisanzwe ajya kuvoma amazi ku iriba noneho akayazana akavomerera.

Igihingwa cy'imboga ni imboga za kizungu, zihinze ku murongo kandi ahantu heza zigomba kwera, ni ibihingwa bimeze neza kandi bitoshye, harimo umudamu urimo kuzivomerera kugira ngo zirusheho kumera neza.

Umuntu arimo kuvomera imyaka ari gukoresha uburyo busanzwe aho umuntu uri kuvomerera imyaka afata igikoresho cyitwa nk'ijage akajya ajya kuzana amazi kuvomera noneho akayazana aho imyaka iri akavomerera bisanzwe, nibyo uyu muntu arimo gukoresha avomerera imyaka.

Ibihingwa bigiye bitandukanye kandi bihinze ku murongo, bagiye banyuzamo utudiyo dutoya tuzifashishwa mu kuvomerera, iyo bari kuvomerera bakoresheje buno buryo aya matiyo aturukamo amazi gake gake akavomerera imyaka, aha ngaha hagati y'itiyo n'iyindi ni ho bashyira igihingwa kugira ngo kizakure neza kandi kivomererwa neza.

Umubyeyi uhetse umwana kandi arimo kuvomerera umurima ni umurima ushobora kuba urimo imyaka ariko itaramera, hepfo ye hari abandi benshi bafite ibikoresho byo kuvomerera.

Umuntu urimo kuvomera ibihingwa. Ni ibihingwa bimeze nk'inyanya zitarera, arimo kubivomerera akoresheje uburyo bugejweho aho afata umugozi cyangwa itiyo, agafata na moteri agahambiraho, agatekareka moteri mu mazi noneho ikagogota amazi iyazana ahantu igihingwa kiri, akavomerera atagombye kujya kwizanira amazi.

Imisozi myinshi kandi iriho igihingwa, imisozi irimo n'ibibaya, aho baciyemo amatarasi bateramo ibihingwa. Ahantu hari imisozi imeze gutya bakunda guhingamo icyayi, kandi n'imisozi miremire irimo n'ibibaya.

Ahantu hitaruye harimo imisozi ndetse n'ibibaya, harimo n'ibihingwa bitandukanye harimo urutoki ndetse n'amashyamba kandi hatuyemo umuntu wubatsemo inzu hagati, hakurya hari imisozi n'ikirere ni cyiza.

Amazu atuye ahantu hari imisozi miremire. Ni amazu atandukanye arimo abantu baturanye. Hari n'ibihingwa bigiye bitandukanye imbere y'ayo mazu ariko baturiye imisozi miremire, umusozi muremure urimo ibihingwa bagiye bacamo amatarasi kugira ngo binagabanye isuri cyangwa gutenguka k'ubutaka.

Ahantu hari imisozi ihanamye n'ibibaya ndetse n'ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo amashyamba ndetse n'ibindi bihingwa bisanzwe. Abaturage baciyemo amaterasi y'indinganire kugira ngo bigabanye isuri imanukana ubutaka, iva ku misozi ijya mu bibaya.

Ahantu hari ishyamba rinini cyane ku buso bunini kandi hakaba harimo imisozi myinshi n'ibibaya, ahandi hari ahandi hari utuyira dutoya tunyuramo abantu ndetse n'inzu ntoya abantu baruhukiramo baje kureba ibintu birimo imisozi ndetse n'amashyamba, byakitwa nk'ubukerarugendo.

Ahantu hitaruye kandi hitegeye, harimo imisozi n'ibibaya, umusozi umwe bagiye bawucamo amaterasi ari kimwe mu bintu bigabanya isuri cyangwa gutenguka k'ubutaka kandi bigatuma n'abantu bahahinga umusaruro ukaboneka, ahandi hamwe nta materasi arimo hameze nk'aho hari ishyamba, harimo igikombe kinini kandi hakurya na ho hari imisozi.

Ahantu hari imisozi kandi hahanamye. Hari imisozi n'ibibaya. Noneho kandi hari n'ibihingwa bigiye bitandukanye harimo: amashyamba ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bisanzwe. Abaturage baciyemo amatarasi y'indinganire kugira ngo bagabanye isuri ishobora kumanukana ubutaka cyangwa kwangiza imyaka.

Ahantu hitaruye harimo ibibaya ndetse n'imisozi hakurya, iyo misozi isa nk'iriho ibimera bitandukanye cyangwa amashyamba, na hano mu gikombe cyangwa mu kibaya, harimo ibindi bimera byinshi bigiye bitandukanye, hari ikirere cyiza.

Ahantu heza hitegeye ibirunga cyangwa imisozi, akenshi ni ahantu haba ari nko muri hoteli aho abantu bajya bagiye gukora ubukerarugendo, ahantu hameze gutya hakunze kuboneka mu bice by'Amajyaruguru y'Igihugu cy'u Rwanda kandi aha ngaha hari intebe n'ameza, aho umuntu yicaye arimo no gusoma igitabo.

Imisozi n'ibibaya biri ahantu hitegeye, imisozi kandi igihe iriho n'ibimera byafatwa nk'amashyamba cyangwa ibindi bimera bisanzwe, hakurya y'aho hari umusozi muremure ndetse urebye ujya kumera nk'ikirunga.

Ahantu hari imisozi n'ibibaya, aha hantu kandi abantu bagiye bacamo amaterasi mu misozi imwe n'imwe kugira ngo babashe kuyihingamo kandi babashe no kurwanya amasuri, ikindi kandi hari amagare abiri aparitse impande yaho yo muri izo nzira zijya kuri iyo misozi myinshi ndetse n'ibibaya.

Ahantu hari ubuhaname butandukanye, imisozi ndetse n'ibibaya, harimo ibihingwa ndetse n'amashyamba. Abaturage bagiye bacamo ibice kugira ngo bigabanye isuri mu ndimi z'amahanga byitwa amaterasi. Amaterasi afasha kugira umusozi udatenguka, kandi wereho imyaka neza.

Ishyo ry'inka kandi hari n'abaveterineri benshi barimo kuyitaho kugira ngo inka zigire ubuzima bwiza, ziri ahantu habugenewe aho zihererwa ubuvuzi, aho bazitera nk'inshinge kugira ngo zitabarushya bazishyira ahantu hegeranye gato kugira ngo bazitere inshinge zitanganyega, hari n'abavuzi benshi b'amatungo baje kuzitaho.

Ishyo ry'inka riri ahantu mu rwuri. Ni ahantu hitaruye kandi hari ubwatsi, hari n'umuntu urimo kuragira inka. Akenshi ibi bice bibamo ahantu hisanzuye gutya waragira inka, ni hano mu karere ka Nyagatare, aho usanga ari n'ubworozi bwinshi bw'inka.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, ni inkoko zisa n'izimeze kimwe ziri ku murongo, ziri ahantu hororerwa inkoko, ni mu buryo bw'ubworozi bwa kijyambere aho harimo umuntu ushinzwe kuzitaho ufite n'inkoko mu ntoki, yambaye impuzankano y'akazi igisurubeti gisa icyatsi, ni ahantu hororerwa inkoko kandi mu buryo bugezweho.

Inkoko ziri mu bwoko butandukanye n'amabara atandukanye, ziri ahantu hamwe, bivuze ko ari ahantu umuntu yazubakiye kugira ngo abashe kuzororera hamwe, ashyiramo ibiriryo zigatuza zikarya nk'ibisanzwe.

Inka yorowe mu buryo bwa kijyambere, ni inka iri ahantu hari ibiraro bigezweho ari kimwe mu biranga imyororo y'inka ya kijyambere, impande y'aho hari umushumba wambaye igisurubeti ndetse n'inkweto z'umweru zikunze kwitwa bote, ameze nk'umushumba uri kuyitaho.

Inkoko nyinshi zororowe ahantu hamwe ni umushinga wakozwe n'umuntu kugira ngo akore umushinga cyangwa igikorwa cyo korora inkoko zirubakiwe ziri ahantu hamwe kandi bazigaburiramo imbere. Ni inkoko nini kandi zimeze neza.

Ihene nyinshi ziri mu gasozi, bivuze ko zagiye kuragirwa. Ihene nyinshi zigiye zitandukanye harimo amashashi n'amasekurume, hakurya gato hari umuntu umeze nk'umushumba uziragiye.

Itungo ryitwa ingurube, akenshi aba ari itungo ryororerwa mu rugo, ingurube zikunze koroherwa mu rugo zo ntabwo waziragira ngo bazijyane mu rwuri, ingurube y'umukara kandi bayiteye amaherena ku gutwi y'umuhondo.

Inka y'inzungu kandi yororewe ahantu habugenewe kandi heza. Ni inka ifite icee rinini imeze nk'ikamwa, akenshi inka zimeze gutya ziba zitanga umukamo mwinshi ni inka zidakunze kuragirwa aho bazishyira mu nzu noneho bakazishakira ubwatsi bwo kurya.

Umugabo woroye inka, ni inka iri ahantu baba bayiziritse itemerewe kugenda cyangwa ngo ihave, umworozi wayo arimo kuyiha amazi, ari kuyiha amazi akoresheje ibasi.

Inka ziri ahantu habugenewe ahantu hafunganye bazubakiwe, izi nka akenshi zikunda kujyamo bagiye kuzitaho mu buryo bw'ubuvuzi bwo kuzitera inshinge cyangwa ibindi bitandukanye, hari abaganga bagiye kuzitaho aho barimo kuzivura, harimo umuganga wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'abandi bambaye ibisurubeti n'umushumba.

Itungo ryitwa ingurube. Ingurube iryamye. Akenshi ahantu ingurube ziba ziri zikunda kororerwa mu rugo. Ingurube rero iri mu kirugu cyayo aho bazana ibiryo bakayihera hano. Akenshi kandi ingurube zikunda kororoka aho zibyara ibyana byinshi.

Amatungo y'amahene arimo kurisha, ni ihene z'ishashi kandi ihene nkuru, nta mwana w'ihene urimo, akenshi ubu bworozi bukunda gukorwa n'abantu bari mu duce two mu cyaro ari ho baragirira amatungo nk'aya ngaya, ahantu haba hari ubwatsi hadatuwe n'abantu benshi, ni ihene ziri ahantu hari ibyatsi byinshi kandi hameze nko mu ishyamba.

Ishyo ry'inka, riri mu rwuri. Ni ahantu taruye hari ibyatsi byinshi n'inka nyinshi zirimo kurisha. Ahantu hakunda kuba inka nyinshi, ni hano mu Karere ka Nyagatare n'ubundi. Aho aborozi bakunda kugira amafamu, aho inka zikunda kurishiriza.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere cyangwa bwa kizungu. Aho bafata inkoko bakazororera hamwe bakazubakira ahantu habugenewe zigomba kuba ndetse bakazijyana n'uburyo bazajya bazigaburira. Ni inkoko nyinshi noneho harimo umuntu urimo kuzitaho.

Ishyo ry'inka kandi riri mu rwuri. Ni inka ziri mu rwuri aho zigomba kurishiriza kandi hari ubwatsi. Ni inka ziri mu mabara atandukanye harimo izisa: ikigina, umweru ndetse n'umukara.

Ababyeyi bicaye buri wese afite igikoresho kirimo ibishyimbo. Arimo kubitora kugira ngo akuremo imyanda nk'amabuye ndetse n'ibindi kugira ngo abitandukanye n'ibishyimbo bizima. Ibindi bishyimbo kandi biri mu mabasi abegereye, harimo amabasi asa ubururu ndetse n'ibasi y'icyatsi.

Abantu babiri harimo umugore n'umugabo, inyuma yaho hakurya hari ahantu hari ishyamba ndetse n'imisozi, bafite intara iriho ibishyimbo, umudamu amaze kubigosora, barishimye bameze neza kandi inyuma y'aho gato hari umurima uhinze.

Umubyeyi urimo gugosora umusaruro, akenshi bino bintu bikunda gukorwa mu cyaro mu gihe k'isarura nk'ibishyimbo, amasaka cyangwa n'ibindi byose bihurwa maze bigakenera gugosorwa, umubyeyi rero arimo kugosora, iyo bagosora bagosora bifashishije intara, afite intara mu ntoki kandi ibyo ari kugosora bimwe mu birere kugira ngo havemo imyanda.

Inka ziri ahantu hamwe. Akenshi inka ziri hano ziba zigiye guhabwa ubuvuzi. Zishyirwa ahantu habugenewe kugira ngo zitabasha kunyeganyega bazivure, zitarimo gukubaganya cyangwa gutera imigeri. Hari abaganga n'abashumba barimo kuzivura.

Inka ziri ahantu hamwe ahantu bazubakiye kugira ngo muganga naza kuzitaho abone uko azitaho zitari kunyeganyega cyangwa zitari kubyanga kuko inka ari kimwe mu itungo rifite imbaraga. Bazubakira ahantu habugenewe kugira ngo umuganga naba agiye kuzitaho agiye kuzitera urushinge cyangwa izindi ,iyindi miti bibashe kumworohera. Abaganga n'abashumba barahari bameze nk'abantu bagiye kuzivura.

Umuganga w'amatungo ari kwita ku nka, inka imaze kubyara, imaze kubyara noneho umuganga akaba ateruye akana k'inka, akitwa inyana cyangwa akamasa, inka yaguye hasi imeze nk'inaniwe.

Abaganga b'amatungo bafite imiti, harimo abantu bari mu byiciro bitatu, harimo abambaye amatabureti y'umweru ndetse n'abandi bambaye ibisubeti by'ubururu ndetse n'umushumba w'inka, bagiye kuvura inka, inka iri ahantu habugenewe kugira ngo abaganga babashe kwivura itarimo gukubita imigeri.

Inyamaswa z'agasozi zitwa inzovu, ni inyamaswa ziri mu mazi kandi zikaba zegereye n'ahantu hari ishyamba, harimo inzovu nini ndetse n'inzovu ntoya, akenshi izi nzovu zikunda gukurura ba mukerarugendo hano mu Rwanda zirahari, aho zikunda kuboneka nko mu Kagera.

Inyamaswa z'agasozi zitwa inzovu inyuma yazo hari imodoka ya ba mukerarugendo bababanje kuzireba, inyamaswa zikunda kuboneka mu Rwanda mu Kagera aho zikurura ba mukerarugendo benshi bagiye batandukanye, kandi baturuka mu bihugu bitandukanye inyuma yaho kandi hari umusozi muremure.

Inyamaswa y'agasozi yitwa ingwe. Ingwe ni inyamaswa y'agasozi akenshi ikunda kuboneka mu Kagera. Aho ari imwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzireba hano mu Rwanda maze na bo bakishyura amafaranga.

Inyamaswa y'gasozi yitwa intare, akenshi izi ntare ziba ari intare z'ingore. Ni intare cyangwa umwami w'ishyamba, aho ari kimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo mu Rwanda, aho abantu baturuka hanze bakaza kuzireba, zikunze kuba ziri mu mu Kagera.

Inyamaswa yitwa ingwe yasamye zifite amenyo ane maremare ayandi aba ari matoya. Inyamaswa nk'izi zikunze kuboneka mu nce z'iburasirazuba nko mu Kagera aho zikurura ba mukerarugendo bagiye batandukanye bakishyura amafaranga.

Inyamaswa z'agasozi zitwa inzovu. Harimo inzovu eshatu ni, inzovu kandi zikunda kuboneka mu gace ko mu kagera aho ari zimwe mu nyamaswa zikurura ba mukerarugendo.

Inyamanswa z'agasozi, harimo nyinshi zikurura ba mukerarugendo aho ziboneka mu maparike atandukanye y'amwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, muri izi nyamanswa harimo inzovu, intare, impara, imparage n'ingwe ndetse n'izindi, hakaba harimo n'ibisiga.

Inyamaswa z'agasozi zitwa inkende ni inkende eshatu akenshi izi nyamaswa zizwiho kurira byoroshye akenshi zizwiho kurira ibiti zikagera mu bushorishori ikindi kandi zigakunda kurya imineke no konna imyaka y'abaturage.